Umugabo wambaye imyenda yijimye, ahetse ipombo mu mugongo y'ubururu n'umuhondo, ari kugenda yuhira imyaka n'ibigori, abihagazemo ari kubitera umuti.

Umugabo wambaye bote nipantaro y'ubururu, numupira yifubitse, yambaye n'ingofero, afite ipombo mu mugongo we, ari kugenda apomba imyaka bisa nkaho ayitera imiti.

Ahagaze mu muceri mutoya utari wera yambaye ipantaro y'umukara, ishati y'umweru n'ingofero y'umweru asa nkaho ari kuhira akoresheje ipompo.

Umugabo wambaye ingofero mu mutwe, agapfukamunwa yambaye imyenda y'umukara ahetse ipompo y'icyatsi kibisi, ari hagati mu muceri bigaragara ko ari kuwuhira akoresheje iyo pompo.

Abagabo babiri bahetse amapompo y'ubururu n'umutuku, bambaye imyenda isa ni abazungu bafite imiti muri ayo mapompo barimo baragenda batera ku myaka kugira ngo itazazana ubusimba.

Ni umugabo wambaye ikabutura y'umukara, umupira w'umuhondo, agapfukamunwa k'umuhondo, ahetse ipompo mu mugongo y'ubururu, ari mu myaka hagati arimo arayuhira.

Yipfutse igitambaro mu mutwe, asa nkaho yapfutse amaso yose, yambaye umupira w'icyatsi kibisi, afite ipompo mu ntoki, arimo aragenda apompa umuceri, bigaragara ko ari kuwutera umuti.

Amacupa atatu azamuye y'umweru ariho ibyapa byanditseho amagambo menshi, agaragaza uburyo iyo miti ikoreshwa, iyo imiti ikoreshwa mu kuvura ibihingwa.

Ni kwa muganga muganga yambaye itaburiya y'umweru, arimo arareba muri mashini, uko imiti yayishyira muri sisiteme hari n'ibindi bikoresho, by'abaganga bifashisha ni kwa muganga.

Yambaye agapfukamunwa k'umukara mu maso, yambaye uturindantoki twumutuku ni'igisureti cy'ubururu bwijimye, ahetse ipompo y'umuhondo n'umukara, arimo aruhira imyaka, ariko ayitera umuti.

Ni ibasiye y'ubururu irimo amafi mato bigaragara nk'aho ari isambaza cyangwa indagara, umuntu utagaragara ikindi gice ni akaboko gafatanye n'ikiganza, karimo karerekana zimwe muri zo.

Umugabo uhagaze hafi y'amazi afite amafi mu ntoki, kumwe gufashe ifi rirerire, ukundi gufashe ifi rimeze nkaho ryacitse umurizo, yambaye igisurubeti cy'ubururu kiriho akapa k'umweru hejuru y'ibere ry'ibumoso, yambaye na fime n'ingofero.

Ni abantu batatu bari ku cyuzi cy'amafi aho bororera amafi, umuntu umwe yicaye hejuru yacyo aho bagitegeye arimo aragaburira amafi ari mu mazi.

Ni ku mazi menshi, aho hirya no hino hari ibyatsi ndetse n'ibiti, ni ahantu amafi yororerwa, icyo cyuzi kibamo amafi.

Ni utuzu twinshi tumeze nk'udushitingi twubatse dufatiye ku biti turi mu mazi, iruhande rwayo hari ibyatsi ni inzu ziri ahantu ku musozi hariho n'amashyamba.

Ni ubworozi bw'amafi aho amafi bayaziritseho urushundura akaba yafashwe, yari ari mu mazi hanyuma arafatwa bigaragara nkaho bari buyatware

Gurini binizi apo vanera buraka ti puramu Rwanda inzovu ni icyapa kinini kigaragaza ko aha hakorerwa ubucuruzi bw'ibihingwa byinjiza amafaranga harimo n'ikawa.

Igihingwa gishinzwe kuzanira abantu inyungu z'amafaranga ndetse gikorwamo n'icyayi ni ikawa iri ahantu ireze, iriho ikawa nyinshi zeze z'umutuku.

Abagabo n'abagore bari mu kibaya ahantu, barimo barasarura icyayi, bambaye amajire y'icyatsi bose, barimo baragenda baca mu cyayi bafite udutebo inyuma yabo.

Ni ibikoresho byinshi bijyanye n'ubworozi aho hari ibishushanyijeho inkoko ni imiti ivura inkoko, hari ahashushanyijeho inka na byo bigaragara ko ari imiti ivura inka, hari amarozwari yo kuhira imyaka ni ibikoresho byinshi.

Imiti itandukanye, iri mu ducupa duto ndetse n'indi iri mu dukarito, hari n'iri mu bidobo, imiti yo kuvura amatungo by'umwihariko inka.

Ni imiti yifashishwa n'abaveterineri mu kuvura amatungo, imiti iri mu icupa, ndetse iyindi iri mu ishashi, ni imiti yifashishwa na ba veterineri.

Ni imiti iri mu dushashi ishushanyijeho inka, ingurube n'ibindi, ni imiti ikoreshwa n'abaveterineri bayitera ayo matungo yabugenewe kugira ngo ivure ayo matungo.

Abagabo n'abagore bari, mu buhinzi. Barimo baragenda basarura ibyeze bikeya, bashyira mu tubase, abana bikorera n'abandi bantu bazamukana, kugira ngo barebe umusaruro bagezeho.

Abagabo n'abagore bari mu murima, aho bari kugenda baterura ibiti biri mu dukarito, bigaragara ko bagiye kubitera ahantu bizakurira neza.

Umugabo n'umugore we bafite amasuka ku ntugu, bari mu rutoki, ni abahinzi barishimye bafite akanyamuneza, iruhande rwabo hari n'indi myaka iteye muri urwo rutoki, bisa naho baje kuyikorera.

Abahinzi babiri umugabo n'umugore barimo barabagarira ibigori bihinze, ni byinshi hari ibiri haruguru bisa nk'aho byakuze, ibindi bahagazemo bari kubibagara biracyari bitoya.

Ni umworozi ufite inka iri mu kiraro, ari kuyireba n'umugabo wambaye ingofero y'ubururu, n'itabuririya y'ubururu, ari mu kiraro aho inka ye iri, inka ni y'umukara n'umweru.

Ikigori cyumye, kiriho amababi ajya gusa nkariho icyatsi kibisi ahagana hepfo, kiri mubyatsi birimo ibyumye nibibisi, kirambitse kitavovoye.

Ni bigori biri ahantu mu murima hasa nk'aho ari mu kabande, birashishe bimeze neza ni icyatsi kibisi bisa nk'aho bigiye kwera.

Umumama wambaye igitambaro mu mutwe, gisa n'igitenge ndetse n'ishati yacyo, ari hagati mu murima mu bigori, ari kubikorera, ni bigori bisa icyatsi kibisi, byiza cyane.

Umugabo wambaye ingofero itukura n'agapira gaciyemo amabara atambika y'umweru n'umukara n'ubururu ari mu kimashini gishinzwe kugenda cyuhirira imyaka mu mazi ari kukigendesha areba hakurya.

Igiti kinini cy'ikisombesombe, gifite amababi asa nk'ayahiye, gisa nk'aho cyarwaye, ni igiti cy'isombe, kivaho isombe abantu barya.

Inka ebyiri ziri mu gisambu ahantu zirimo zirarisha ubwatsi ntago butoshye neza, ni na bukeya ariko si cyane hirya yazo hari ishyamba ryinshi, zirimo zirarisha nta mushumba uzegereye.

Ni ikimera giteye ahantu cyarazamutse gifite amababi y'icyatsi kibisi, ni ikirayi gifite hirya ku mpande ibibabi ndetse n'akandi kababi karimo hagati.

Ni ahantu mu murima ahari imirima myinshi itandukanye, hari ibigori ikawa, urubingo n'ibiti biteye ibyinshi bishinzwe kuzana amafaranga.

Igihingwa cy'insina ni gihingwa cyiza cyane kuko gifasha abantu kubona ibyo kurya ndetse n'amafaranga, ni nisina nziza cyane, yabyaye n'ibyana byayo ku ruhande.

Imodoka iri ahantu mu muhanda wa kaburimbo. Ni imodoka imwe mu muhanda iri hagati y'amashyamba, hirya no hino arayikikije, hari n'utuyira tw'abanyamaguru.

Ni mu ishyamba aho hari ibiti bitandukanye, haba ibiti by'ishyamba, iby'inturusu n'ibindi biti bitandukanye bitari iby'inturusu bigaragara ko nta muntu ujya uhatemberera.

Ni umusozi uteyeho ibyatsi nibiti, ni ahantu mu kibaya, hari ishyamba ryinshi rihakikije, nta kintu na kimwe kindi gihari, habe n'inzu.

Mu ishyamba ridatuwemo n'abantu, ni ishyamba rinini ryafashe ahantu henshi, hari imisozi hejuru yaryo harimo n'ibindi byatsi bitari ishyamba.

Ni ahantu mu ishyamba, ahari ishyamba ritandukanye, hari ibiti by'inturusu, hari ibya gereveriya, hari n'ibyatsi bizengurutse aho ngaho.

Barimo abasirikare n'abashinzwe umutekano mu rwego rwa DASSO. Bari kumwe n'abantu b'abaturage basanzwe, barimo barayora ibintu bimeze nk'imyanda babishyira mu mufuka ni mu ishyamba.

Ni mu ishyamba aho hari amashyamba menshi haba hakurya no hakuno ni ahantu mu kibaya ariko hahujwe nuko hari ishyamba.

Umukobwa wambaye inkweto zifunze n'amasogisi, yambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'icyatsi afite n'undi mupira w'umukara mu ijosi, yambaye amarinete, yambaye n'ingofero, ahagaze mu ishyamba.

Ni mu ishyamba ritari ryinshi cyane ariko rifashe ubuso bunini, hari n'ibindi biti n'ibindi bimera byinshi bitandukanye, ni ku mashyamba ateye ku murongo mu materasi y'indinganire.

Ni ibihingwa biri mu ishyamba aho bisa naho ari amasaka, hari ishyamba rike hirya no hino mu mpande z'uwo murima uteyemo ayo masaka.

Ni amashyamba agizwe n'akiri matoya n'ibyatsi bikiri bitoya bitarakura, harimo akantu k'agafureshi k'ubururu kerekana ishyamba rito ritewe vuba.

Ni ahantu hari amashyamba hatandukanye, ni ku misozi itandukanye ariko hose ikihahuje ni amashyamba ndetse n'ibyatsi, biri mu ibara ry'icyatsi cyeruye, ayo mashyamba yo arijimye.

Ni abantu batatu bari mu murima, bombi ni abagore, bambaye imyenda, babiri bambaye irimo ibitenge, undi yambaye imyenda isanzwe bose bari mu murima, barimo barasarura imiteja ku bishyimbo.

Umugabo wirabura wambaye agapira ka rakosita, karimo umweru n'umukara, afite mu ntoki amatunda, n'imbuto yahinze ahantu, nizo gusa zihahinze z'amatunda.

Ni mu isoko aho abantu benshi bari, harimo abambaye amataburiya y'umweru n'ingofero z'umweru, bafite ibihingwa byeze mu ntoki, bigaragara nkaho barimo barabipakira mu dukarito.

Isoko ririmo inyanya, pavuro, intoryi, amashu n'ibindi biribwa ni isoko ry'ibiribwa ryahuriwemo n'abantu benshi batandukanye.

Bari mu murima aho bahinze indabyo, barimo barazisarura ni abakobwa bageze muri batatu, bambaye imyambaro itandukanye, barimo barakora akazi ko gusarura.

Ni ubuhinzi bw'insenda, zirazamuye zirasa umutuku imbuto zazo, izindi ziratoshye, ni iz'icyatsi kibisi, ni nyinshi ziteye ku murongo.

Umugabo utagaragara mu maso yambaye igisurubeti inyuma y'ishati, ishati irimo amabara y'umutuku n'umweru, ahagaze mu murima aho afite agasanduku karimo: amakaroti, inyanya, ibitunguru n'ibindi byinshi.

Umurima uteyemo ibihingwa byinshi bitandukanye, harimo utuyira mo hagati tugenda dutandukanya utwo turima, hirya hari ibizu by'umweru byo kugamishamo ibikoresho byifashishwa.

Ni ahantu hahinze, imyungu, ndetse n'ibindi bitandukanye, haba, amapapayi, ndetse n'inyanya zikiri ku biti byose biratandukanye, kandi biba bihurije hamwe ni ahantu muri pipiniyeri.

Abagabo n'abagore bari mu mirima y'ubusitani burimo imbuto, ni imbuto z'amatunda yatangiye kuzana uburabyo ndetse n'ibiteja, barimo barayasobeka neza kugira ngo yurire ibiti.

Imodoka iparitse iruhande rw'igipangu aho irindiriye ko bayikingurira, hari igiti kinini k'imyembe ndetse inariho imyembe yo kurya hirya, hari intabobo zizengurutse icyo gipangu.

Ni mu buhumbikiro bw'imbuto nyinshi zitandukanye, hari amashashi yabugenewe kuba arimo urubuto rumwe, amashashi ni umukara, aba arimo ibitaka ndetse bivanze n'ifumbire, aha ho harimo imbuto z'imyembe.

Ni mu isoko ry'ibiribwa aho abantu bacuruje ibintu bitandukanye harimo insenda pavuro, karoti, imiteja, ibitunguru, intoryi, inyanya, n'ibindi baracuruje babirambuye kuri shitingi.

Abantu batatu bose bafite amarozwari, barimo baragenda buhira imyaka, bahereye ku murima urimo amashu, barimo baravomera amashu bakoresheje rozwari n'amazi.

Umugabo wambaye ishati ya move nipantaro y'umukara ahagaze munsi y'agacupa kari ku giti bigaragara ko ari kuhira inyanya yateye mu murima, agacupa karacuramye gafite umupfundikizo w'umukara.

Umugore uri kuhira imboga akoresheje igikoresho cyabugenewe, ni uruhombo ruri mu ntoki ze ari gukoresha, yambaye ibitenge n'igitambaro.

Ni mu mirima imeze nkaho iteyemo imbuto, abantu batatu nibo bari mu icyo kibaya, bari kugenda buhira. Buri umwe kuri umwe, ni ahantu hameze nk'ahahinze mu buryo bw'amaterasi y'indinganire.

Ni mu murima aho umugabo ari kuhira imyaka akoresheje itiyo irimo amazi, haruguru ye hari urubingo n'insina abandi bantu bari hirya bari kureba ibyo ari gukora.

Umugabo umwe ari iruhande rw'ibigori biracyari bitoya ariko hino ye hari undi muntu uri kumufotora muri telefone nini cyane, uwo mugabo arunamye arimo arashyira uruhombo kugira ngo azamure amazi yuhirire ibyo bihingwa.

Umugabo wambaye ubusa hejuru yambaye ipantaro y'umukara hasi, afite Rozwari ebyiri, arimo aragenda avomerera, amashu, ni mu murima w'amashu hirya ye hari, ibindi bihingwa, ndetse hari n'ibiti by'amavoka.

Umusore wambaye umupira w'ubururu, yambaye n'ipantaro y'umukara afite mu ntoki uruhombo runini rurimo ruravomera bisa nkaho arimo aravomera ibigori yahinze ahantu mu gishanga, hirya ye hari abandi bantu batagaragara neza.

Ni umugabo wambaye umupira w'icyatsi kibisi, afite n'undi ku rutugu w'umukara yambaye n'ipantaro y'umukara, ari mu gikorwa cyo kuhira imyaka akoresheje agahombo kajyamo amazi kakayamisha hirya no hino.

Ni ahantu mu kibaya hari imirima myinshi, hari ibihingwa byinshi bitandukanye, hari n'imisozi iteyeho amashyamba atandukanye.

Ni mu kibaya ahantu hari n'amazi, hari imirima irimo amashyamba igiye ikase, ni ahantu bigaragara ko hari ahantu heza ho guhinga, hari imisozi hakurya, ndetse n'amapoto y'amashanyarazi.

Ni mu kibaya hari ibihingwa bitandukanye biri mu ibara ry'icyatsi kibisi, hejuru yabyo hari ikirere cyiganje gisa n'ahoho kiri butange imvura, hakurya hari imisozi iteyeho n'amashyamba.

Igishanga kiri hagati y'imisozi iteganye, kirimo imirima igiye iciyemo uduce mo hagati muri icyo gishanga, harimo akayira k'amazi ni ahantu hitaruye hatagira inzu n'imwe.

Ni abantu barimo barahinga babagarira imyaka iteye ahantu hitaruye, bigaragara nk'aho ari imboga harimo n'intoryi, barimo barazisukuririra n'abagore benshi.

Ni ahantu hadatuwe, hari ibiti byinshi bijya gusa icyatsi cyijimye, hari n'ibyatsi bifite icyatsi cyerurutse n'ahantu hari imisozi iteganye.

Ni ahantu hitaruye amazu ariko uba uyareba hakurya yawe ni ahantu mu mujyi ariko hari ibimera byinshi bitandukanye, ari ibiti, indabyo, byose birahari.

Ni ikibaya kirimo imirima igiye ikase nk'amaterasi, harimo ibimera byinshi biteyemo, haba iby'icyatsi kibisi cyeruka, hakurya hari ishyamba ryijimye, ni ahantu bashobora gukorera ubuhinzi.

Ni mu kibaya ahantu hateganye n'imisozi, hari ibiti by'amashyamba ni mu bihuru ahari ibiti byinshi bitameze nk'ishyamba ibindi biri ku musozi wo hakurya mu ishyamba byose bimeze nk'ibitoshye.

Igiti kirekire gifite amashami gishinzwe gutanga igicucu, munsi yacyo hari ibindi biti bibiri byashibutse, ni ibiti bifite amabara y'icyatsi kibisi, biratoshye bigaragara ko biri ahantu heza, hitaruye hadatuye abantu.

Ikibaya kimeze neza kiriho ibyatsi bitoshye ndetse n'amashyamba, hakurya hari imisozi iteganye na cyo munsi yacyo hari inzu y'abantu ariko ntimeze neza.

Ni ubworozi bw'inkoko za kizungu ziri ahantu hamwe, ni inkoko zifite isura y'umweru, ndetse zinafite amababa magufi, ziri ahantu aho ziri kunywa amazi, zimwe zinarya ibiryo aho bazubakiye.

Ni imashini ifite amapine abiri y'umukara, ifite ibindi bikoresho byinshi biri mu ibara ry'umweru, umuhondo ndetse n'ubururu n'umutuku irimo, ni mashini yifashishwa mu by'ubworozi.

Ni ahantu mu rwuri hari ibyatsi bitoshye, hirya yabyo hari igiti kirekire bisa nk'aho gitanga igicucu, iruhande rwacyo hari inka enye zirimo zirarisha zitambagira aho ngaho mu busitani.

Ni ubworozi bw'inka babubakiye ahantu inzu izajya ibafasha, inka zihari ni nyinshi barimo barazikama zimwe izindi ziri hirya no hino.

Ni ubworozi bw'inkoko aho ari inkoko za kinyarwanda ziri ahantu bazubakiye, aho hantu hari ibirahure n'inzu n'amashanyarazi n'urugi rutukura bazihaye ibyo kunyweramo amazi n'ibiryo byo kurya.

Ni ubworozi bw'inkoko, aho ari isake imwe muri zo ndetse n'inkokokazi zirasa ibara ry'umweru, ni ubworozi bw'inkoko nziza cyane.

Ihene nyinshi zirimo umweru, umukara n'andi mabara zirahagaze. Ni nyinshi zitegereje abazicyura, bisa nkaho baziragiye ahantu mu ishyamba.

Umugabo wambaye amarinete, yambaye ishati y'igikori n'ipantaro y'ikoboyi, ari imbere y'inka nyinshi cyane, yazubakiye urupango runini, ni ahantu zirira n'ahantu zirara.

Ni ubworozi bw'inkoko aho hari inkoko eshatu, zimeze ariko nk'izirwaye kuko imwe yenda kurambarara hasi ndetse iyindi yenda guhuma ijisho, bigaragara ko zititaweho neza, hari indi y'umweru iri haruguru yazo.

Ni ubworozi bw'inkoko aho baziteretsemo hagati ibyo kurya ndetse n'amazi, ni imishwi mitoya ariko nanone ifite amababa manini yatangiye gukura.

Ni ubworozi bw'inkoko aho harimo inkoko nyinshi zitandukanye zifite amabara atandukanye, bazihaye ibyo kurya ndetse n'amazi ziza kunywa, ni nyinshi uko bigaragara ko harimo n'izimeze nabi zimeze nk'izarwaye.

Ubworozi bw'inkoko, n'inkoko zikiri ntoya zirimo iz'umweru, iz'umukara n'izindi, hari ibikoresho byifashishwa bari kuzigaburira, ziri ahantu hamwe aho zororerwa.

Yambaye imyenda yera n'inkweto z'umweru, imbere ye hateretse utuntu tw'umweru tw'udusahane two guheramo inkoko ibyo kurya ndetse n'amazi, ni udushwi dutoya, afite umushinga wo korora inkoko.

Umugabo wambaye ingofero y'umukara n'umweru, yambaye ishati y'umukara n'umweru, ipantaro y'ikoboyi y'ubururu bwijimye, yambaye n'inkweto, ari mubigori bikiri ku bitigitiri byabyo arimo arabihungura asa nk'aho abikuraho imyanda.

Niubworozi bw'inkoko, aho bazubakiye ahantu hisanzuye, zifatira amafunguro, zikanaharara, zikananywera amazi, hari ibidomaro byinshi, birimo ibyo kurya n'amazi yo kunywa.

Umuganga w'umuveterineri w'umugabo, yambaye itabuririya y'umweru, ari kuvanga imiti, agira ngo avure, yambaye uturindantoki tw'ubururu.

Bahagaze iruhande rw'inka nziza zifite amahembe maremare, ni inyambo zimeze neza, bisa nk'aho harimo izitameze neza nkeya kuko n'abaveterineri baje kuzivura.

Ni veterineri ari ku nka y'ikibamba yanditseho n'akanyuguti ka ke ari iruhande rw'umuntu uri gukora mu icebe ry'inka veterineri yakoze inka mu nda.

Veterineri w'umugabo yambaye igisarureti cy'ubururu, yambaye ishashi izamuka igera haruguru y'inkokora, arimo arakora mu nda y'amaganga y'inka, arimo arayitera intanga.

Ni inkoko ziri hamwe, bisa nk'aho bazigaburira hamwe, n'ubworozi bwazo, umu mushinga umuntu yakoze, harimo udushwi dutoya tutarakura, baragira ngo tuzakurire hamwe.

Inka ziri ahantu hamwe mu rupango, bazubakiye kugira ngo bajye bazishyiramo bazivura, harimo abaveterineri barimo barazivura, hari abambaye amataburiya y'umweru, abandi bambaye ibisuru biti by'ubururu.

ni ikidobo kinini cy'ubururu kirapfunduye umushumi umwe uri kurenga hasi umanuka w'umukara. gifite umupfundikizo ufasheho w'ubururu, harimo imiti ikoreshwa n'abaveterimeri.

Inyamanswa y'ishyamba, ni inyamanswa y'imparage, ifite amabara abiri umweru n'umukara, ifite ubwoya buzamuka hejuru ku gikanu, iri ahantu mu byatsi bitoshye.

Inyamaswa y'ishyamba ni ihene y'ishyamba irimo irarisha mu bwatsi butoshye iruhande rw'ibitare ndetse iruhande rw'ibyo bitare hari amazi menshi ni ahantu mu ishyamba.

Ni ku musozi hateye ibiti, bitandukanye, harimo n'amashyamba hari n'ibyatsi, kuri ibyo byatsi hariho inyamaswa z'ishyamba, zo mu bwoko bumwe bazita ihene z'ishyamba.

Ibikoko bitatu biri mu muhanda biri kwiruka, imbere yabyo hari ishyamba riteye, imbere y'iryo shyamba hari inyubako nyinshi ziri mu mabara atandukanye haba umweru n'umuhondo.

Ni mu ishyamba aho hari ibyatsi bitandukanye byarakuze birazamuka harimo inyamaswa y'ishyamba imeze nk'ihene iri muri ibyo byatsi.

Inzovu, impara, imparage, intare, ingagi, agasumbashyamba, imvubu ni byo biri hano, ahantu mu byatsi bimeze nk'umukenke birahagaze byose ni inyamaswa by'igasozi.

Inkende ebyiri zirabyibushye ziri ahantu mu gisambu mu ishyamba, zirimo ziravurana aho imwe yazamuye akaboko indi iri kuyishakira imiti.

Igikoko kinini kitwa intare kiba mu gasozi gikunze kuba mu ishyamba, gifite amaso gisa nk'aho cyayahumirije, gifite amaboko imbere cyafatishije hasi, gisa nk'ikiryamye mo ukuntu.

Ni igisimba bita ingwe kiraryamye gisa n'icyarengeje amaboko ahantu ku rutare, gifite amabara arimo ikijuju kijya kuba nk'umuhondo n'ayandi y'umukara.